Mu muhanda ukikijwe n'imirima ndetse n'ibiti bitandukanye, harimo umuyoboro w'amashanyarazi, hari abana bari gukiniramo bambaye impuzankano z'amabara y'umweru ndetse n'ubururu.

Ku rukuta rw'ishuri ry'inshuke hashushanyijeho ibintu bitandukanye birimo inyama ndetse n'ingorofani ibi bishushanyo bikaba bifasha mu gukangura ubwonko bw'abanyeshuri ndetse bukanongera ubushobozi bw'imitekerereze y'ubwonko bwabo.

Ku rukuta rw'ishuri ry'inshuke, hashushanyijeho inkoko ndetse n'igishushanyo cyerekana ibice by'umubiri w'umuntu mu rurimi rw'Icyongereza. Ibi bikaba bifasha abanyeshuri biga muri iryo shuri kugira ngo bamenye ururimi.

Ku rukuta rw'ishuri hashushanyijeho ibikoresho bitandukanye birimo umweyo, igisokozo ndetse n'umunyeshuri uri kwirukanka, ibi bikaba bifasha abanyeshuri bakiri bato kugira ngo bagire ubumenyi bushingiye ku ndimi.

Agakoresho gafite ibara ry'umweru ndetse n'umufuniko gafite umwobo ufukuyemo imbere kifashishwa n'abanyeshuri cyane cyane abiga mu mashuri y'inshuke bakaba bagatwaramo ibyo kunywa birimo nk'icyayi, igikoma ndetse n'ibindi banywera ku ishuri.

Agakoresho gafite amabara atandukanye kifashishwa mu kugira ngo ibyo kunywa biri muri ako gakoresho bikomeze gushyuha ntibihure n'ubukonje. Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke bakaba bakunda kwifashisha ako gakoresho bakagatwaramo ibyo kunywa.

Mu cyumba cyiza cyane gifite amabara atandukanye, kirimo amatara meza, harimo intebe ndetse n'ameza, bifite amabara atandukanye, kikaba cyifashishwa mu kwigisha abanyeshuri b'inshuke. Kwigisha abanyeshuri b'inshuke ugendeye ku bintu bifite amabara atandukanye, ni bimwe mu bintu bituma bakangura ubwenge bwabo.

Inshingano z'umubyeyi ku mwana we ntagaruka kumuha ibyo kurya gusa ahubwo umwana aba akeneye n'ubufasha cyane cyane ku bijyanye n'amasomo ye. Ni ngombwa cyane ko ababyeyi begera abana babo bagakurikirana imyigire yabo haba ku ishuri ndetse n'igihe bavuye ku ishuri.

Amakayi meza cyane afite ibara ry'umuhondo ndetse n'umutuku n'umweru akaba yifashishwa n'abanyeshuri cyangwa se abarimu mu bikorwa byabo bitandukanye, bijyanye no kwiga ndetse no kwigisha.

Ni byiza cyane ko mu kwigisha abana bato by'umwihariko abiga mu mashuri y'inshuke, hakwifashishwa ibintu birimo nk'ibishushanyo, ibi bikaba bifasha kugira ngo abana bato bakangure ubwenge bwabo ndetse bikanazamura imitekerereze yabo.

Agakinisho gafite ishusho y'inyamaswa, gafite amabara atandukanye arimo umutuku ndetse n'umweru. Udukinisho turifashishwa cyane mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke kuko dufasha umwana mu gukangura ubwonko bwe.

Igishushanyo gishushanyije ku rukuta rw'ishuri kiri mu ibara ry'umukara mu ishusho y'inkoko ndetse n'umushiki wayo ndetse kandi hakaba hariho igishushanyo cy'ibice bigize umuntu. Ibyo bishushanyo byombi bikaba bifasha mu burezi bw'abana bakiri bato.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye, gifite umuryango ufite ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'umweru, icyo kigo kandi kikaba gifitemo ibiti bitandukanye, bifasha abanyeshuri mu kubazanira umwuka mwiza.

Ibikoresho byifashishwa mu burezi bw'abana bato, birimo ibibafasha kugira ngo bamenye inyuguti zitandukanye. Ni byiza cyane ko abarimu bakiga gukoresha bimwe muri ibi bikoresho kuko bituma ubwenge bw'abanyeshuri bukanguka kandi bakamenya gufata vuba.

Udukoresho dutandukanye twifashishwa mu kwigisha abana. Aho twavugamo n'ibitabo ndetse n'imikasi n'ibindi bifashisha mu gushushanya bifite amabara atandukanye. Ibi bikaba bibafasha kugira ngo bikangure ubwonko bwabo ndetse binongere ubushobozi bw'ubwonko bwabo.

Kimwe mu bishushanyo bisangwa mu bitabo byifashishwa mu kwigisha indimi mu mashuri abanza ndetse no mu mashuri yisumbuye, kuri icyo gishushanyo hakaba hariho abana bambaye impuzankano zifite ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru bakaba bari kumwe n'umukecuru.

Ibikoresho bifite amabara y'umukara ndetse n'umweru bikoreshwa mu gupima uburebure ndetse n'ubugari ibindi bikaba bikoreshwa mu gushushanya birifashishwa cyane mu kwigisha mu mashuri abanza, abarimu bakaba babikoresha mu gihe bari gushushanya ibishushanyo runaka cyangwa se abanyeshuri na bo bakabikoresha mu gihe bari gukora ibipimo by'ibintu runaka, ibi bikaba bifashishwa mu masomo atandukanye arimo nk'imibare.

Udukoresho dufite amabara y'umutuku ndetse n'umweru, turifashishwa cyane mu burezi bw'amashuri abanza. Utu dukoresho tukaba dufasha mu gukangura ubwonko bw'abana bakiri bato bityo bigatuma bagira imyigire myiza ndetse bagafata no mu mutwe vuba.

Udukinisho tw'amabara atandukanye, turimo umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi, twifashishwa cyane mu kwigisha abanyeshuri bo mu mashuri y'inshuke. Ibi bikaba bibafasha gukangura ubwonko bwabo ndetse no kumenya ibintu byinshi bitandukanye.

Imbere y'icyumba cy'amashuri gifite urugi rufite ibara ry'ubururu ndetse cyubakishije amatafari ahiye, umwarimu wambaye umwambaro w'ubururu, ari imbere yacyo. Uyu mwarimu kandi akaba yambaye agapfukamunwa, aho gafasha kwirinda indwara zitandukanye z'ubuhumekero.

Ishuri ribanza ryubatswe mu buryo bugezweho rifite amabara y'umweru ndetse ryubatse mu buryo bugerekeranyije, rishushanyijeho ibishushanyo birimo umutaka ndetse n'ibindi bifasha mu kugira ngo ubwonko bw'abana bukanguke, imbere y'iyo nyubako kandi hari ibiti bitandukanye.

Ibikoresho bikoze mu byuma, kimwe muri byo gifite amabara y'umutuku ndetse n'umweru, ikindi gifite amabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi, byifashishwa mu mashuri, mu kwigisha ndetse no gupima ibintu bitandukanye, ibyo bikoresho bikaba bifasha mu myigishirize y'amasomo atandukanye, harimo n'imibare.

Mu kwigisha mu mashuri abanza ni byiza cyane ko abarimu bakoresha udukoresho dutandukanye, dufasha mu gukangura ubwonko bw'abanyeshuri babo. Uugero nk'umwarimu wigisha imibare ni byiza cyane ko yakoresha udukinisho tw'amabara atandukanye maze akatwandikaho iyo mibare mu rwego rwo kugira ngo byoroherere aba abana ba banyeshuri kuba bafata iyo mibare vuba.

Udukinisho dutatu dufite amabara y'umweru, umutuku ndetse n'umukara, tukaba twifashishwa mu bijyanye n'imikurire y'abana bato cyane cyane mu mashuri y'inshuke.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ifite amabara arimo ubururu, icyatsi kibisi ndetse n'umweru, ikaba yubakishije amatafari ahiye. Kuri iyo nyubako kandi hariho za kizimyamwoto, aho zifashishwa mu kuzimya umuriro mu gihe cy'inkongi.

Ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu kwigisha mu mashuri abanza, birimo ibikoreshwa mu gushushanya, mu gukata impapuro ndetse n'ibindi. Ibi bikoresho bikaba bifasha abanyeshuri mu gukangura ubwonko bwabo, cyanecyane abiga mu mashuri abanza.

Ibishushanyo by'uruziga bifite umuzenguruko w'ibara ry'umukara ndetse na byo ubwabyo bikaba bifite ibara ry'ubururu, idoma ndetse hakaba yashushanyijemo n'inyuguti zanditse mu ibara ry'umukara, ibi bishushanyo bikaba byifashishwa mu kwigisha mu mashuri y'inshuke ndetse n'ayisumbuye mu masomo atandukanye arimo nk'imibare.

Imfashanyigisho yifashishwa n'abarimu bigisha cyane cyane mu mashuri abanza, mu kwigisha abanyeshuri babo, ibikoresho bitandukanye, akamaro kabyo ndetse n'amazina yabyo. Kuri ibyo hakaba hari igishushanyo cy'isuka, icyuma ndetse n'igikombe.

Udukoresho dutandukanye dufite amabara menshi harimo imipira, turifashishwa cyane mu burezi bw'abana bakiri bato cyane cyane mu mashuri abanza, utu dukoresho tukaba dufasha gukangura ubwonko bw'umwana.

Imbere y'ishuri rigezweho, hahagaze abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano zifite ibara ry'umweru ndetse na kaki, bakaba bari kumwe n'ababashinzwe, barimo abarimu ndetse n'abayobozi b'ikigo.

Mu cyumba kigari cyane cy'inyubako yubakishije amatafarihiye, hateraniyemo abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano z'ibara ry'icyatsi kibisi cyeruye ndetse n'icyatsi kibisi kijimye, bakaba bari gukurikira icyo umuntu cyangwa se itsinda ry'abantu bari imbere yabo bari kubagezaho.

Icyumba cy'ishuri kisanzuye cyubakishije amatafari ahiye, kikaba kibitsemo ibinyabutabire bitandukanye, byifashishwa n'abarimu bigisha mu mashuri yisumbuye, iyo bari kwigisha abanyeshuri biga ibijyanye n'ubugenge.

Umwana w'umukobwa w'umunyeshuri wambaye impuzankano ifite ibara ry'ubururu ahetse igikapu cy'umukara kirimo ibara ry'icyatsi kibisi, akaba ari kuva ku mashuri yerekeza mu rugo mu biruhuko akaba yahuye n'umurera.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano zifite ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umukara, bateraniye hamwe, aho bamwe bicaye mu byatsi abandi bicaye ku ntebe zabugenewe, bakaba bari gukurikirana umukino uri kubera mu kibuga kiri imbere yabo.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano zifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, bateraniye imbere y'amashuri yabo, aho bari ku idarapo, bari kuririmba indirimbo yubahiriza Igihugu, batonze imirongo.

Itsinda rigari rya'abanyeshuri bambaye impuzankano ifite ibara ry'umweru ndetse n'ibara rya kaki bicaye munsi y'igiti aho bakurikiye ibyo bari kugezwaho, nanone kandi hari irindi tsinda ry'abanyeshuri bambaye impuzankano zifite ibara ry'umuhondo ndetse n'ibara ry'ubururu bwijimye.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye gifite umuryango ufite ibara ry'icyatsi kibisi ndetse muri icyo kigo hakaba hateyemo ubwoko bw'ibiti butandukanye, bitanga umuyaga ndetse n'ahantu heza ho kwigira ku banyeshuri.

Munsi y'ibiti binini hari abanyeshuri b'abakobwa biga mu mashuri yisumbuye bambaye impuzankano zifite amabara y'umweru ndetse n'ubururu bwijimye, abandi bambaye impuzankano z'ubururu bweruye ndetse n'ibara ry'ivu.

Abanyeshuri b'abakobwa biga mu mashuri yisumbuye bambaye impuzankano z'imipira y'ubururu bwijimye ndetse n'amajipo ya kake bari imbere y'ishuri ryabo aho bari kumwe n'umwarimu wabo bakaba bari kuririmba, uwo mwarimu wabo akaba ari kuririmba akoresheje indangururamajwi.

Inyubako nziza cyane ya kaminuza yubatswe mu buryo bugezweho ifite amabara y'umweru ndetse ikaba igerekeranyije. Iyi nyubako yifashishwa cyane n'abanyeshuri mu gihe bari kwiga. Nanone kandi ifite ubusitani bwiza burimo indabo ndetse n'ahantu ho kuruhukira.

Abanyeshuri ba kaminuza barimo abahungu ndetse n'abakobwa. Bateraniye mu cyumba k'ishuri aho bari gukoresha igikoresho k'ikoranabuhanga kitwa mudasobwa mu bushakashatsi bwabo ndetse no gukora imirimo itandukanye baba bahawe n'abarezi babo. Gukorera mu matsinda bikaba bibafasha kungurana ibitekerezo.

Ishuri ba kaminuza bari mu ishuri buri munyeshuri yicaye iruhande rwe, ndetse afite mudasobwa aho ayifashisha mu gukora ibikorwa bitandukanye by'ishuri, birimo nko guhanahana amakuru ndetse no gukora ubushakashatsi.

Ikibaho kigezweho gifite ibara ry'umweru, kikaba kimanitse ku rukuta rw'umuhondo weruye. Icyo kibaho kandi kikaba kifashishwa mu myigire, aho abanyeshuri cyangwa se abarimu bacyandikaho.

Abanyeshuri bambaye impuzankano isa ibara ry'icyatsi, bari kumwe na mwarimu wabo mu nzu yabugenewe yifashishwa n'abanyeshuri mu kwiga ndetse no gukora ubushakashatsi ku bintu bitandukanye baba biga.

Imbere y'icyumba cy'ishuri rya kaminuza gifite urugi rufite ibara ry'icyatsi kibisi hari intebe igezweho ifite ibara ry'ubururu nanone kandi hari indobo ifite ibara ritukura ryifashishwa mu gusukura.

Aka ni akarindantoki kifashishwa cyane mu mirimo ishobora kuba yateza impanuka ku ntoki, kakaba karinda ibintu bitandukanye birimo nko kuba umuntu yakomereka, ni byiza cyane ko abakozi bakwibuka kwambara tuno turindantoki kuko byabarinda gukomereka.

Inzu yubatswe mu buryo bugerekeranyijwe ifite inzugi zifite amabara y'icyatsi kibisi, ikaba ikoreshwa n'abanyeshuri ba kaminuza aho bayifatiramo amasomo atandukanye cyangwa se bakanakoreramo ubushakashatsi.

Itsinda rigari ry'abantu bambaye imyambaro y'umukara ndetse n'umuhondo bari kwishimira ko basoje amashuri ya kaminuza, bakaba bafite impamyabushobozi zabo ndetse bakaba bari kubyina babyishimiye.

Icyumba k'inyubako ya kaminuza, kikaba kirimo intebe zifite ibara ry'ubururu bwijimye, zifashishwa n'abanyeshuri bakazicaraho iyo bari kwiga. Muri icyo cyumba kandi, hari n'abandi banyeshuri bari gusubiramo amasomo yabo, ndetse n'abandi bari hanze yacyo.

Abanyeshuri bo muri kaminuza nkuru y'igihugu ishami rya Nyagatare, bateraniye mu nzu nini yabugenewe iberamo ibirori bitandukanye ndetse na gahunda zitandukanye, bakaba bafite abo bari gukurikira bari imbere yabo bari kubabwira ibintu bitandukanye.

Ubusitani bwiza cyane buri mu kigo cya kaminuza bukaba burimo ibiti bitandukanye aho abanyeshuri babyugamamo izuba iyo ryabaye ryinshi, hari kandi n'indabo nziza cyane zifite amabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi n'utuyira twiza twifashishwa mu kuva ahantu hamwe ujya ahandi.